Inama y'abayobozi yateraniye ku kigo nderabuzima bari kwiga ku mibereho myiza y'abaturage n'uko bateza imbere ubuvuzi n'ibindi byinshi.

Serivisi y'ubu ubuzima itangwa ku bigo nderabuzima, aho bahereza abana barwaye cyangwa se bafite ibindi bibazo by'ubuzima cyangwa se bari kubatera inkingo bagenda bakabahereza imiti.

Umuryango ufite ibyishimo, uri gufata ifoto y'urwibutso, banezerewe cyane, kandi akaba ari n'abadamu bakuze bafite imyaka myinshi.

Ikigo nderabuzima giherereye i Gisenyi gitanga ubuvuzi ku baturage haba bo mu karere n' abatarari abo mu karere.

Umukobwa mutoya uri gukora siporo nk'umuti, kuko bivugwa ko siporo aba ari umuti mu buzima busanzwe.

Umuti uturuka mu bimera ufasha gutuma umubiri wawe ureka ku zana uduheri tw'umukara mu maso n'ibindi bigiye bitandukanye ku ruhu.

Umuti woza amenyo ushinzwe kwica udukoko tuba mu menyo, ndetse ugahindura amenyo umweru dereri.

Ibikakarubamba aho biterwa mu murima cyangwa se ahandi ahantu hatandukanye, bikaba bizwiho nko kuba ari umuti ukomeye cyane mu bihingwa.